Umuyobozi w'umugore ari gutanga ikiganiro itariki esheshatu z'ukwa gatandatu bibiri na cumi na karindwi kivuga ku buryo bwo guhanga udushya mu miyoborere y'igihugu cy'u Rwanda

Abagabo bari ku meza manini bari mu nama kandi bafite ibyo kunywa birimo amazi yo kunywa.

Abantu bitabiriye inama bafite uruhu rutandukanye bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo imashini, telefone, ndetse kandi bafite ibyo kunywa imbere yabo bifunguye.

Abagore n'abagabo bambaye bikwije, bateze amatwi ndetse bitegereje ikiganiro kiri gutangwa mu nzu barimo.

Ihuriro ry'abantu b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, baje kwizihiza, kwishimira iterambere ry'ubukerarugendo mu Rwanda.

Umuyobozi w'umugore afite icyuma gisakaza amajwi, ku meza hateretseho ibyo kunywa ndetse n'ikaramu, kandi yambaye amarinete.

Ihema ry'ibara ry'umweru rishinze mu mbuga, hicayemo imbaga y'abantu ndetse n'abashinzwe umutekano babahagarikiye.

Urubyiruko rwambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, rukurikiye ibiganiro biri gutangwa aho baherereye.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bicaye mu cyumba, basa nk'abari mu nama bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibyuma bisakaza amajwi.

Abantu batandukanye bari mu nama, bateze amatwi yombi, bafite ibyo kunywa, nk'amazi ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, na telefone igendanwa.

Imbaga y'abantu bafite ibyuma by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa na telefoni zigendanwa bafite amazi ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye ku meza bicayeho.

Imbaga y'abantu bambaye bikwije harimo abagore, ababyeyi, abagabo, abana, ndetse n'abandi benshi batandukanye bahuriye ahantu hamwe.

Abantu bahagaze bari kwifotoza, abantubarimo abagabo n'abagore b'uruhu rutandukanye uruhu rwirabura ndetse n'iruhu rwererutse.

Ihuriro cyangwa inama ihuje urubyiruko abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bari kwiga ku kintu kandi bagiteze amatwi yombi.

Urubyiruko rwambaye impuzankano y'amabara asa ruteraniye ahantu nk'abari guhabwa ibiganiro cyangwa inama zateza imbere ubuzima bwabo.

Ahantu habereye amahugurwa bambaye impuzankano cyangwa se imyambaro y'ibara ry'ubururu isa abantu babiri bari guhererekanya insakazamajwi kandi bari kunywa ibinyobwa nk'amazi.

Imbaga y'abantu bateze amatwi ikiganiro, basa nk'abari mu ihema ry'umweru, bambaye, bikwije.

Abakozi b'ikigo gishinzwe ubwikorezi bw'abantu n' ibintu gikorera mu Rwanda bari mu nama biga ku biciro bishyashya biboneye ingendo.

Inama cyangwa ihuriro ry'abantu b'ingeri zose harimo abagabo n'abagore ya leta, hari ibendera ririho ikirango cy'urugaga rw'igihugu ndetse n'ibendera rigaragaza idarapo ry'igihugu.

Umuntu utagaragaye mumaso wambaye umwambaro wumuhondo, ari imbere asa nk'uri gutanga ikiganiro.

Urubyiruko rwambaye impuzankano y'ibara ry'umweru, ruri guhabwa ikiganiro cyangwa amahugurwa n'umugabo wambaye ishati y'umukara.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bari kwiga no gusesengura ibintu bijyanye n'umukino wa kiriketi mu Rwanda.

Inama cyangwa ikiganiro gihuje abantu b'ingeri zose harimo: abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi, ku meza bariho, hateretseho uducupa tw'amazi.

abantu b'ingeri nyishi abagore ndetse n'abagabo bazengurutse ameza basa nk'abari mu nama iri kwiga ku kintu kimwe cyangwa ikindi.

Abagore batandatu bicaye mu ntebe nziza z'umweru n'umuhondo barigukurikirana ikiganiro bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefoni zigendanwa.

Umugore n'umugabo bicaranye basa nkabari gutanga ikiganiro kumbaga, barimo kubika amakuru bifashishije inyandiko.

Umugabo ufite icyuma gisakaza amajwi, wambaye ishati y'umweru, ari kugeza ikiganiro ku bantu benshi bambaye impuzankano y'ibara ry'ubururu, rifite magambo mu mugongo y'ibara ry'umweru,

Ikigo rura gikorera mu Rwanda gishinzwe kugenzura ibikorwa by'ingirakamaro byo mu gihugu hagati, birimo ingendo z'imizigo ndetse n'abantu muri rusange n'ibindi byinshi.

Siysteme y'irembo iratumenyesha ko bagize impinduka bashyira mu buryo bwo gushaka icyemezo cyerekana ko wafunzwe cyangwa utafunze.

Umukozi wo hafi w'ibigo byinshi, urugero harimo irembo kandi uguranira amafaranga abakiriya be yo mu mahanga, urugero amayero ku manyarwanda.

Umukobwa mutoya w'imyaka iringaniye, ari gukoresha ikoranabuhanga ririmo telefone igendanwa na mudasobwa, akura amakuru kuri telefone akoresheje umugozi wabugenewe.

Uburenganzira bwo kugera mu nkambi y'impuzi serivisi nshya ku urubuga rw'irembo, ikigo gitanga iyi serivisi ni minisiteri ishinzwe ibikorwa nk'ubutabazi.

Ipoto ry'amashanyarazi ndetse n'itumanaho rizengurutswe n'uruzitiro rw'icyuma ndetse rwegeranye n'inzu ebyiri kandi rushinze mu kibaya.

Urubuga rw'ikigo gishinzwe uburezi mu gihugu cy'uRwanda aho wasanga ibyerekeye ku kigo cyabo gishinzwe amasomo ndetse n'amatangazo ateganyijwe.

Umuntu wikorera ukora nk'umukozi wa hafi wa sosiyete nyinshi zitandukanye harimo irembo, ikigo cy'imisoro n'amahoro.

Inyandiko iri mu rurimi rw'icyongereza, isobanura uburyo bwo gukoresha konti ya banki bitakugoye kandi unyuzwe na serivisi itanga.

Abanyeshuri bari mu cyumba n'ibikoresho by'ishuri birimo mudasobwa, ibikapu byo kwigana batwaramo ibikoresho, kandi umwarimu ahagaze imbere amanitse ukuboko kw'iburyo, ari kubasobanurira.

Serivise nshya ku rubuga rw'irembo mu gice cyo kugurisha ndetse n'inganda, iragaragaza ko hari uburyo wabona imashini zihinga ndetse n'ibindi bintu byatuma uteza imbere ubucuruzi bwawe.

Umwitero ugaragaza sosiyete y'itumanaho usa umuhondo, umanitse ku ruzitiro rw 'ahari umunara ukurura sinyale z'itumanaho.

Amashusho atarakinwa arimo inyamaswa zikunzwe kandi zizwi zirimo ingagi ndetse n'ibimera birimo ibiti byiza by'ubwoko butandukanye.

Inzu irimo imashini ibikurizwaho amafaranga hifashishijwe ikarita n'andi makarita ya banki hariho abagabo batatu, umwe ashinzwe umutekano.

Ikiganiro cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kiranyura kuri radiyo Rwanda uyu munsi itariki makumyabiri niimwe z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane isaha y'i saa mbiri n'iminota cumi n'itanu z'ijoro.

Ahakoreshezwa ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa n'ibindi, mu kusesengura amakuru ndetse no kuyasohora mu buryo bwanditse.

Garagaza imisoro utamenyekanishije mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu ukurirweho amande y'inyungu z'ubukererwe, itariki ntarengwa bibiri na makumyabiri na gatatu, ukwezi kwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Tubwire ibyo ukora hifashishijwe mashusho ashushanyije wo mu ikoranabuhanga rya terefone zigindanwa I Kigali mu Rwanda.

Abantu bambaye udupfukamunwa, b'ingeri zose harimo umukobwa ndetse n'abahungu, bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo mudasobwa ndetse n'imigozi yayo bakikijwe n'imodoka.

Ikigo gishinzwe kurinda amashyamba ndetse n'ibiti muri rusange, kiri kugaragaza uburyo ari ingirakamaro kurinda amashyamba ndetse n'ibidukikije muri rusange.

Serivisi nshyashya ku rubuga rw'irembo itangwa na minisiteri ya siporo, ikiciro cya siporo itanga serivise zikurikira: uruhushya rwo kwakira ibirori mpuzamahanga bya siporo, inkunga ya mafaranga mu mikino mpuzamahanga n'ibindi.

Iminsi ntarengwa yo kumenyekanisha ubwishyu bw'imisoro y'imitungo itimukanwa ni tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumya na kane.

shishoza mu gihe uhamagawe cyangwa wakiriye ubutumwa busaba amafaranga, ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho, n'izindi nzego zitandukanye. Ubutumwa ni ubwaru Rura.

Ubutumwa buri muri sisiteme z'ikoranabuhanga, bwanditswe mu rurimi rIcyongereza, busobanurira ukoresha iryo koranabuhanga ko akwiye kureba amanota, akanze ahabugenewe.

Ikigo gishinzwe amashyamba mu rwanda kiravuga ko kireberera kikarinda kikabungabunga amashyamba no gutera imbere kwayo ndetse no gukura kwayo.

Umukozi wa hafi mu bigo bitandukanye w'irembo banke ya kigali n'ibindi ari mu kazi afite ibikoresho bitandukanye nka mudasobwa ndetse n'ibikoresho bisohora amashisho ku mpapuro.

Inyandiko igaragaza uburyo wasaba icyemezo cyangwa ceritifika yuko washoye mu kintu runaka..

Inyandiko igaragaza, isobanura abambukiranya imipaka uburyo bakwiye kuba bameze. igaragaza ko uwambukiranya imipaka akwiye kuba afite icyemeza ko akwiye kwambukiranya umupaka muri ako kanya.

Abanyeshuri basa neza bambaye ipantaro ya kaki ndetse n'ishati y'umweru bicaye mu ishuri bari gukoresha mudasobwa.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rwanditsweho n'amagambo yo mururimi rw'amahanga rw'icyongereza, ivuga ubutumwa bwa minisiteri y'ubuzima.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru, mu nyuguti ndende kivuga irembo sisiteme y'ikoranabuhanga yo mu gihugu cy'u Rwanda yifashishwa mu kwaka serivisi z'inyinshi zitandukanye.

Umunara muremure ufatiyeho insinga z'amashanyarazi ziyobora umuriro mu duce dutandukanye ndetse no mu ngo nyinshi zitandukanye.

Ikirere gikeye, kitarimo ibicu byinshi, hari ibimera n'ibiti bitandukanye, hateretse ibiti bishinze, biriho umuriro w'amashanyaraza, uri kunyura mu nsinga.

Umuriro w'amashanyarazi unyura mu kirere ku buryo usakazwa mu nzu ndetse n'imiturirwa yose ku buryo bworoshye ndetse n'ibitembo by'amazi hejuru y'inzu ku buryo amazi agera mu mazu byoroshye.

Mu giturage ahantu ya mashyamba hari ibiti bigaragara neza, hari ipoto rifite insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ziri kuyobora mu ngo nyinshi zitandukanye.

Inzira z'umuriro w'amashanyarazi ziri kunyura mu kirere kugira ngo zishyikirizwe, imiryango myinshi itandukanye mu ngo nyinshi zitandukanye.

Insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziri ku ipoto ziri kugenda zijya mu ngo zitandukanye urugo kurundi.

Hari ikirere gisa neza kitarimo ibicu byinshi, hari ubwoko bw'ibimera butandukanye ndetse n'ibiti biryoheye ijisho, hari umuriro w'amashanyarazi uri kujya mu ngo n'insinga.

Ku mbibi z'umuhanda hari igiti cy'umwembe giteye mu busitani bugaragarira ijisho hegereye n'inzu yo kubamo nk'umuryango.

Umuriro w'amashanyarazi mu giturage, ni inkingi ya mwamba y'iterambere. Aho umuriro w'amashanyarazi wageze, iterambere ryose rindi riba rigiye kuza ryisukiranya.

Umuhanda urombereje ufite utuyira tw'abanyamaguru ubusitani ibyapa biyobora ibinyabiziga ndetse uriho uruzitiro ruriho amatafari ahiye.

Ibiti by'ubwoko butandukanye impande y'umuhanda wa kaburimbo, hariho ihema ry'ikigo gishinzwe iby'itumanaho mu Rwanda.

Ikirere gikeye kirimo ibicu byinshi ibiti byiza ndetse n'ibishinze binyuraho umuriro w'amashanyarazi.

Icyapa kigaragaza amerekezo ndetse n'umuhanda inzu iherereye ho kimanitse ku nzu kiri kugaragaza ko iherereye muri Kigali ku muhanda wa maganatandatu na mirongo itanu na karindwi.

Ipoto rishinze mu busitani rizengurutswe n'indabo, ririho insinga z'umuriro ziyobora mu ngo, mu rugo kurundi.

Amapoto ariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziri kwambukiranya zijya urugo ku rundi kandi zegeranye n'ibibabi bitandukanye.

Insinga z'umuriro w'amashanyarazi zinyura mu kirere zifite igiti kizishyigikira kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ubashe gukwira mu ngo nyinshi kandi zitandukanye.

Ipoto ry'icyuma ryubatse kuburyo ryigira hejuru y'inyubabako rikabasha kunyuraho insinga z'umuriro w'amashanyarazi zijya ku ingo

Ikirere gisa nk'icyaguyemo imvura, ahantu hari ubusitani bwiza, ndetse hari ikigega kibika amazi mu gihe kirekire, ku buryo azakenerwa akaboneka.

Ikibaya kirimo amazu menshi meza ndetse kirimo ibitaro byubakishijwe amatafari ahiye amabati y'umutuku.

Umunyamaguru w'umugabo ari kugenda mu kayira kagenewe amagare y'abarwayi babana n'ubumuga bw'ingingo.

Ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima gihagazeho abantu batatu, hariho umukobwa ufite terefone igendanwa, yegeranye n'ubusitani bwiza busa neza.

Intebe zisa umukara n'ubururu, zicayeho abantu bambaye nk'abaganga, bari kwiga ku kintu runaka bagihanze amaso ku buryo burambuye.

Amarembo magari y'ibitaro by'umwami fayisali hari indabo ibiti ndetse n'ibimera bindi bitandukanye biryoheye ijisho bituma uhageze yumva yagaruka.

Aho abarwayi biyandikishiriza igihe binjiye mu bitaro ndetse bakanahabwa inyunganizi y'aho berekeza bitewe n'icyo barwaye.

Ibitaro byakiriye abarwayi benshi harimo n'abazanywe n'imbangukiragutabara eshatu. Ibitaro byubakitse neza ku buryo bivura abarwayi bagakira.

Imbuga ifite imbibi zigaragarira buri wese byegereye inzu y'aho bavurira amenyo hari ikigega ndetse n'ibitembo by'amazi bitandukanye.

Inzira irombereje isakajwe n'inkingi z'ibyuma, ndetse n'amabati y'ibyuma, ikikijwe n'indabyo nziza.

inzu igeretse inshuro eshatu y'umweru ndetse nibara ryijimye kumasaaha ya nimugoroba amatara yose ar kwaka.

Imiturire igeretse iteye imbere ifite ubwirinzi bw'umuriro hanze ndetse nuturindabasazi ndetse n'ubusitani bwiza burimo ibyatsi.

Imbangukiragutabara ihagaze ku bitaro itegereje abarwayi ngo ibavane ahantu hamwe ibageze ahandi hantu.

Mu rukiko hari ukekwaho icyaha, umuburanira ndetse n'abacamanza, bari kwiga ku mwanzuro w'urukiko, bareba ko ukekwaho arengana cyangwa ahamwe n'icyaha.

Hashingiwe ku itegeko rya gatandatu akarongo kaberamye karindwi n'igice kimwe byo ku itariki cumi n'esheshatu z'ukwa munani ibihumbi bibiri na gatandatu imidugugu yose igomba kugira imbibi igaragara mu mategeko no muri system za Leta.

Igazeti yo ku itariki makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani isobanura uburyo bwo gukoresha igitinyiro, iri mu ndimi eshatu Ikinyarwanda, Igifaransa ndetse n'Icyongereza.

Abantu bari mu cyumba basa nk'abari gukora inama ubayoboye ari imbere yambaye ikoti n'ishati, nawe afite ameza ateretseho ibitabo ndetse n'ibyo kunywa nk'amazi.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itukura ndetse n'iyirabura imeze nk'iyabashinjacyaha cyangwa se aba avoka bicaye mu cyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bisakaza amajwi

Abashinzwe umutekano babiri, bakinguye amarembo manini, bakinguriye umuntu umwe, ubyibushye munini w'umugabo.

Imbaga y'abaturage b'ingeri zose harimo abagore, abagabo, ndetse n'abana ,ku manywa y'ihangu bari mu nama yateza imbere akagari cyangwa agace batuyemo.

Abagororwa bari kuva mu mirimo nsimburagifungo cyangwa bari kujya mu mirimo nsimburagifungo, bambaye imyenda y'iroza begereye igikuta kirekire cya gereza.

Abagabo batatu ndetse n'abagore batatu bambaye imyenda isa nk'iyo mu bushinjacyaha, bafite ikoranabuhanga ririmo mudasobwa, insakazamajwi ndetse n'impapuro, ndetse n'ibinyobwa nk'amazi imbere yabo.

Icyumba kirimo abagore n'abagabo bigaragara ko bari mu nama bicaye ku meza bafite ibyo kunywa iyo meza iteretseho ururabo.

Umukambwe wambaye umwambaro urinda imbeho, yicaye yitegereza imbere ye, asa nkuri kumva ikintu.

Abaturage bingeri zose harimo abagore n'abagabo bari mumbwirwa ruhame iyobowe n'abantu bane bambaye umwitero ufite amabara asa nkayidarapo ry'urwanda.

Urukiko ruteguye neza rurimo umushinjacyaha, umwavoka, ndetse n'umucamanza, bari gufata umwanzuro ku kintu runaka.

Abagabo babiri ndetse n'umugore umwe bambaye ikanzu zisa nk'izabashinjacyaha cyangwa abavoka bamwe baburanira ukekwaho icyaha cyangwa bakamushinja icyaha yaba yarakoze.

Abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'abashinjacyaha cyangwa abavoka, bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, ukuboko kw'iburyo kumanitse, basa nk'abari kurahira.

Umugabo wambaye ishati ya move, inyuma ye hari abantu benshi bamuhanze amaso.

Umugabo w'igikwerere yambaye umwambaro w'umutuku urimo umweru ndetse n'ubururu.

Umugore wambaye imyenda isa nk'iy'abashinjacyaha, abavoka se cyangwa abacamanza, ari kureba nk'uri kwifotoza yegereye ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagore n'abagabo bambaye amakanzu nk'ay'abashinjacyaha cyangwa se abavoka, bahagaze imbere y'ibendera ry'u Rwanda, bamanitse ikiganza k'iburyo nk'abari kurahira.

Abagabo bambaye imyenda y'abagororwa ndetse n'inkweto zifunze neza bahagaze mu bwatsi bamanitse akaboko k'iburyo nk'abarikurarahira.

Icupa ritukura ribitse umwuka wifashishwa igihe habayeho inkongi cyangwa ikindi kintu cyose cyaka cyateza inkongi y'umuriro kunyubako yawe.

Umupolisi w'igihungu cy'u Rwanda, ari gusobanurira abakoresha umuhanda, uburyo bunoze bwo gukoresha umuhanda, mu rwego rwo kwirinda impanuka.

Abapolisi b'u Rwanda bafite intwaro, bari kugenda bacunze umutekano. Ahantu hari abakozi ba sosiyete, ishinzwe itumanaho mu gihugu.

Amacupa abiri atukura afite umwuka wifashishwa mu kuzimya ahantu hatatswe n'inkongi y'umuriro, ndetse no kurwanya inkongi y'umuriro aho yaturuka hose.

Igikoresho cy'ubwirinzi, kigaragara mu nyubako nyinshi zitandukanye, cyifashishwa kirinda inkongi y'umuriro, cyifashishwa mu kuyihosha igihe yanabonetse.

Umupolisi ushinzwe umutekano ndetse n'ibibera mu muhanda uri ku kinyabiziga cy'ibiziga bibiri ahagaritse imodoka ngo yake umuyobozi wacyo ibyangombwa.

Igikoresho kizimya ahantu hataswe n'inkongi y'umuriro, ibintu iyo biri gushya, igikoresho cyifashishwa gisohora umwuka ubasha kuzimya umuriro.

Polisi y' u Rwanda mu mwambaro w'umukara ndetse n'idarapo riranga igihugu ku kuboko kw'ibumoso n'ingofero iriho ikirangantego cy' u Rwanda ku mutwe bafite intwaro.

Icyuma gifite umupira muremure gishyirwa mu nyubako kugira ngo kizifashishwe igihe haba habayeho inkongi y'umuriro itunguranye kugira ngo hazimwe.

Imodoka itwara imizigo mu buryo buboneye, imizigo irimo nk'ibikapu bitwara imyenda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ibikapu mu ngeri zose.

Umuntu wambaye umupira w'umweru ufite ikaramu arikugenda agabanya iminsi ku ngengabihe yihaye, agenda ayigabanya ku buryo bugaragara ku gikuta ahantu hari amarido y'umweru.

Ahantu wasije hasa nk'ikibuga hagaze abantu batatu, umwe yicaye ku ntebe, bafite ibintu by'ikoranabuhanga birimo telefone, mudasobwa.

Umukandida wiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, ndetse n'abamurinda barimo polisi y'u Rwanda ari kugenda asuhuza abaturage akoresheje ukuboko kw'ibumoso.

Abagore bambaye imikenyero iri mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru bihagararira ishyaka ry'umuyobozi bari gutora ku mukuru w'igihugu.

Umuyobozi w'umugore wambaye ikoti wicaye mu ntebe nziza afite ibyuma by'ikoranabuhanga birimo ibisakaza amajwi ndetse na mudasobwa.

Abagore barenze babiri bambaye imikenyero bafashe ku mabendera y'igihugu cy' u Rwanda, bamanitse ukuboko ku iburyo basa nk'abari kurahira inyuma yabo hari tereviziyo iri kwaka.

Abagore ndetse n'abagabo, bicaye mu byicaro by'ubururu, imbere hateretse impapuro zitandukanye, basa nkabari kwiga ku kintu runaka.

Ahantu hahuriye n'imbaga y'abantu benshi b'ingeri zitandukanye hari imitako iri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu nk'iby'idarapo ry'u Rwanda.

Abayobozi bari kwandika ku mpapuro z'umweru n'amakaramu bicaye mu ntebe z'umukara kandi bafite amazi yo kunywa imbere yabo.

Umukandida wiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, na we ari gutora umukuru w'igihugu imbere ya televiziyo, irimo imisozi ndetse n'ibibaya byiza cyane.

Urujya n'uruza rw'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, hari inzu zifite amabati atukura, zifite irange ry'umweru, ndetse hari amahema.

Ihuriro cyangwa inama y'abantu abagore n'abagabo bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo ibisakazamajwi kandi bafite ibyo kunywa nk'amazi imbere yabo.

Umukandida Mpayimana yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru aho yari yambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru afite insakazamajwi ndetse na mudasobwa ndetse na terefone igendanwa ku meza yari yicayeho.

Abantu benshi bari ku murongo basa nkabategereje serivisi runaka, barambaye kandi barikwije barasa na neza mu maso ndetse no ku mubiri.

Umugore uhetse umwana, ari gushyira agapapuro k'itora ahabugenewe, kagaragaza uwo ashaka ko amubera umuyobozi.

Umuyobozi wo mucyumba k'itora ari gusobanurira utora amabwirizwa ndetse n'ibigiye kugenderaho igihe utora umuyobozi ugukwiriye.

Imbaga y'abantu b'ingeri zitandukanye urubyiruko, abasore n'inkumi bari mu cyumba basa nabari mu nama bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye birimo ibisakaza amajwi n'amashusho ndetse n'ibifata amashusho.

Abahagarariye Urwanda mu muryango pana afurika harimo bitunguranye Diyojene hakabamo Tumukunde Eme, hakabamo Wibabara Jenifa.

Umukuru w'igihugu ndetse n'abandi bantu b'ingeri nyinshi, harimo abagore, abagabo, basa nk'abari kwifata ifoto y'urwibutso.

Urujya n'uruza rw'imodoka zirimo; izitwara abagenzi muburyo bwa rusange, izitwara imizigo, kandi hari n'iziparitse impande y'inzu igeretse inshuro ebyiri.

Imodoka yifashishwa mu bwubatsi yagenewe kugenda ivanga sima no kugemura ibikoresho by'ubwubatsi, iri mu muhanda mugari yegeranye n'umunyamaguru.

Ikinyabiziga cy'ibiziga bitatu cy'ibara ry'ubururu ndetse gifite n'ihema ry'umweru, kiri kwambuka umuhanda.

Ikinyabiziga gitwara imizigo itandukanye n'imifuka n'ibindi, gishushanyijeho umuhanzi wamamaye mu njyana ya rege Bob Marle ndetse n'umuyobozi Nelson Mandela.

Ikinyabiziga gitwara imizigo k'ibara ry'umweru gisa n'ikiri kwinjira mu muhanda mugari.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga harimo ibinyabiziga by'ibiziga bibiri ndetse ibinyabiziga by'ibiziga bine bitwara abantu mu buryo bwa rusange.

Ikinyabiziga ku cyiciro cya e kiri mu muhanda urombereje, kiva ahantu hamwe kijya ahandi.

Amacupa maremare azwi nka nili ari hamwe ari iruhande rw'igipfunyika kirimo igipapuro cya kake, biteretse ahantu hameze nk'akabati.

imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange zizwi nka bisi iri kubisikana n'imodoka yumuntu kugiti cye uyitwaye.

Ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri kigisha gutwara ikinyabiziga cyanditseho Turashoboye kandi gifite nimero ya telephone ariyo zero karindi mirongo inani na gatanu mirongo inani na gatatu cumi n'ikenda umunani.

Umuhanda urombereje, uriho ibinyabiziga, amagare, intebe, n'abantu bari gucuruza umuyoboro wa internet.

Umuhanda w'ibisate bine, ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru tubiri, hagati hateyemo ubusitani, ndetse burimo ibiti byiza by'ingeri nyinshi.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange biraparitse birindiriye abagenzi muri gare.

Igare ryifashishwa mu gusunika ndetse no gukurura imizigo irimo nk'imifuka ndetse n'ibindi bintu biremereye bisaba ko biva ahantu hamwe bijya ahandi.

Ikinyabiziga gitwara imizigo nk'imifuka ndetse n'ibindi bintu biremereye kiri mu muhanda urombereje urimo n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru kinini kiri gukata ikorosi kinjira mu muhanda mugari ahegereye resitora yitwa ubuki.

Ku masaha y'umugoroba, imodoka nini itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ihagaze itegereje abagenzi ngo ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi.

Ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, gisikanye n'ikinyabiziga gitwara imizigo iremereye, nk'imifuka ibikoresho by'ubwubatsi n'ibindi.

Imodoka itwara imiziga yapakiye inka izivana ahantu hamwe izijyana ahandi iri mu muhanda uromberereje wa kaburimbo kandi yegeranye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Kumanywa y'ihangu ikinyabiziga gitwara imizigo gifite imizigo kivana hamwe kijya ahandi mu muhanda urombereje kandi hari ibiti byiza by'ubwoko butandukanye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, itegereje abagenzi, aho imodoka ziparika, ndetse n'abagenzi ibasanga.

Akayira k'abanyamaguru kari kunyuramo umunyegare gakikijwe n'ibyatsi byiza ndetse gafite imbibi ziboneye.

Umuyobozi w'ikinyabiziga kibiziga bibiri ari kugenda mu muhanda mu gari wegereye ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'ubwatsi busa neza.

Umunyonzi w'umugabo wikoreye imitwaro irimo imifuka ndetse n'ibindi bintu byinshi, uri kuva ahantu hamwe ajya ahandi mu muhanda.

Imodoka nini ngari itwara abantu mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, iri mu muhanda mugari inyuma hari ibinyabiziga by'ibiziga bibiri.

Ubusitani bwiza bwegereye umuhanda wa kaburimbo, hari kunyuramo umuyobozi w'ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri kandi ni hafi y'aho abanyamaguru bambukirana bambukiranya umuhanda.

Ikinyabiziga gitwara imizigo, kiri gupakira imizigo irimo amakara kiyavana ahantu hamwe kiyajyana ahandi.

Umuhanda w'ibisate bine ugabanyijwemo n'ubusitani buteyemo indabo ndetse n'ubwatsi n'ibiti byuje ubwiza budasanzwe.

Imodoka zitwara imizigo, ziri ku murongo kandi zihetse imizigo, hari iri hagati y'umuntu ku giti ke, hari abantu bari kunyura hagati yazo.

Ikinyabiziga gitwara imizigo gihetse imizigo mu muhanda urombereje w'ibisate bibiri kiva ahantu hamwe kijya ahandi byihutirwa ntankomyi.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, harimo ibitwara abantu mu buryo bwa rusange, harimo n'iby'abantu ku giti cyabo, ndetse n'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri n'ibinyabiziga by'ibiziga bine n'ikigare gicungwa cyangwa gikururwaho imizigo iremereye.

Ikinyabiziga gitwara imizigo, kirimo umuntu, gisa umweru, kiri kubisikana n'ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange

Urujya n'uruza rw'abanyamaguru mu tuyira tw'abanyamaguru ndetse n'urujya n'uruza rwo mu muhanda rw'ibinyabiziga. Hari amasoko meza aboneye iterambere rya buri wese.

Icyapa kiri mw'ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, nta kirango kirimo, kiri impande y'umuhanda. kivuze ngo tanga inzira ku kinyabiziga.

Icyapa kiri ku mbibi z'umuhanda mu busitani gifite ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, n'amagambo y'umukara kimenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere ari kamera ireba umuvuduko.

Icyapa cy'uruziga gifite ubuso bw'umutuku, ikirango cy'umweru, kigaragariza abakoresha umuhanda ndetse n'ibinyabiziga ko bikwiye guhagarara akanya gato kugira ngo hirindwe impanuka.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange binyuze ku cyapa kigaragaza nimero y'umuhanda banyuzeho. Nimero y'umuhanda akaba ari gatanu ,zeru, rimwe.

Icyama gifite ishusho ya kare gifite umuzenguruko w'umukara ndetse n'ikirango cy'umukara gifite ubuso bw'umuhondo kigaragariza ibinyabiziga ko bakwiye kugenda bitonze imbere hari bisaba gukata.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara kibuza abakoresha ibinyabiziga kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu igihe batwaye.

Umugore uhagaze umanitse amaboko yombi ahagaze hagati y'ibyapa bibiri kimwe kivuga urugendo ruhire ikindi kikavuga mu rurimi rw'icyongereza muri Uganda.

Icyapa gifite ishusho ya kare, umuzenguruko w'ibara ry'umukara, ubuso bw'ibara rya orange, ikirango cy'ibara ry'umukara kivuga ko imbere ari ibikorwa by'umuhanda biri gukorwa.

Icyapa kiri uruhande rw'umuhanda cyegereye amazu y'ubucuruzi, gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru nta kirango kirimo, kivuze ko ugomba gutanga inzira ku banyamaguru, kireba ibinyabiziga.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru, kigaragaza mu mikoreshereze y'umuhanda, ko gitegeka ukoresha umuhanda wese ko ategetswe gukomeza imbere.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ndetse n'ikirango cy'umukara, kibuza umuyobozi w'ikinyabiziga kutarenza umuvuduko wa mirongo itatu ku isaha.

Agace bita Rambura gatuwe ndetse gafite n'ibimera by'ingeri zitandukanye biryoheye ijisho.

Icyapa kiri iruhande rw'umuhanda hafi n'ishyamba, kiri mu ishusho ya kare gifite umuzenguruko w'umuhondo, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara ndetse n'umweru.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara, kiri kugaragaza, kigaragariza n'ibinyabiziga muri rusange ko hatemerewe kunyura ibinyabiziga bitwara imizigo.

Icyapa gifite ishusho ya tiriyangere gifite umuzenguruko w'ibara ritukura ubuso bw'ibara ry'umweru ikirango cy'ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho rya tiriyangere gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umuhondo, ikirango cy'umukara kiragaragaza ko imbere hari ibikorwa by'ubwubatsi biri kuhakorerwa.

Inzu yo kubamo, igeretse rimwe, ifite ubusitani bugaragara neza ndetse n'indabo ziyikije, n'amabara y'uruvangitiranye, harimo umuhondo ndetse n'umweru.

Hoteli yubatse mu buryo butangaje yitwa ahantu hatarangira, irasa neza ifite ibimera imbere yayo bisa neza biryoheye ijisho.

Abana b'abanyeshuri bari gukina mu karuhuko gatoya ngo basubire mu masomo yabo barusheho gukora neza mu buzima bwabo.

Imiryango yinjirirwamo cyangwa igasohokerwamo, yerekana ko ari banki y'i Kigali mu magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Imbibi z'inyubako igeretse, zubakishijwe amatafari ahiye. Zegeranye n'ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibyatsi.

Umuntu utwaye ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri wambaye wikwije ndetse n'ubwirinzi bwose busabwa igihe utwaye ari kugenda akoresha icyuma cy'ikoranabuhanga kizwi nka telefone.

Inzu zigereretse zifite ibara ry'umweru zifite ibikoresho hejuru bikurura sinyare zifashishwa mu gukurura amajwi ndetse n'amashusho mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ahantu hari ibiti by'ingeri zose, hasa neza ku manywa y'ihangu haryoheye ijisho watemberera.

Aho abanyamaguru banyura bambukiranya umuhanda, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bibereka ko igihe cyageze cyo kwambukiranya umuhanda.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri ndetse n'ibinyabiziga by'ibiziga bine mu muhanda w'ibisate bine.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ikinyabiziga, mu masaha y'ijoro, amatara yaka, bava munsi y'ikiraro.

Umunsi ukeye mu muhanda mugari ukikijwe n'ibimera birimo ibiti ndetse n'ibindi, hari amatara abonesha umuhanda mu gihe cya nijoro ndetse n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi ziri kwambukiranya.

Umuhanda wa kaburimbo wegereye akayira abanyamaguru banyuramo bambukiranya umuhanda. Hari ubusitani bugaragara neza, umuhanda uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye.

Umuhanda w'ibisate bibiri usa neza kandi uteyemo ibimera by'ubwoko butandukanye uri kugendwamo n'ibinyabiziga by'ibiziga bibiri bitwara abantu abagenzi.

Umuhanda urombereje, unyura munsi y'ikiraro, uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, birimo ibinyabiziga by'ibiziga bibiri, ndetse n'ibinyabiziga by'ibiziga bine.

Mu muhanda mugari harimo ibinyabiziga bitandukanye harimo n'ibyuma bikoreshwa n'ikoranabuhanga byemerera imodoka kugenda kandi bikanazahagarika kugira ngo hirindwe akavuyo.

Ubusitani busa neza aho ibinyabiziga binyura bizenguruka hari n'icyapa kibimenyesha ko bahanyura bazenguruka, hari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga.

Umuhanda muremure urombereje, urimo ibimenyetso biri mu ibara ry'umweru, bigaragaza cyangwa biburira, ibinyabiziga aho byagakwiye kunyura cyangwa abanyamaguru.

Umuhanda munini urombereje ukikijwe n'ubusitani burimo ubwatsi bwiza, ibimera nk'ibiti ndetse aho hagaragara naho banyura abanyamaguru iyo bambukiranya umuhanda.